Abantu batatu bicaye, umugabo wambaye amadarubindi ufite terefone mu ntoki ze, iruhande rwe hari umusore wambaye ingofero mu mutwe, hari undi mukobwa begeranye, ameza ariho ururabyo, uducupa tw'amazi, ingofero isa umukara n'impapuro.

Abantu bicaye bari mu nama biganjemo urubyiruko, inyuma hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru, ku ruhande rwo hirya hari umukobwa uhari wicaye, ivaze iteretse hagati irimo ururabo, ku gikuta hari icyapa cyometseho.

Umugabo wicaye yambaye ikote, ishati yumweru, amadarubindi, ameza ateretseho uducupa twamazi tubiri, ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaye bari mu nama, umugabo wambaye ikote n'amadarubindi iruhande rwe hari abagore babiri bari gukoresha terefone, inyuma yicaye abandi bantu benshi, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, terefone n'impapuro.

Umugabo uhagaze abandi bicaye, uruhande rumwe ruri kugaragaraho batatu n'urundi batatu, ameza ariho mudasobwa, uducupa tw'amazi, imashini yerekana amashusho ku gikuta, aho abo bantu bose bari kureba.

Abantu benshi bicaye, harimo n'abayobozi, ameza ariho icupa n'ibirahure, inyuma hari imiryango ifunze, icyapa, amatara ari kwaka...

Abantu batatu bicaye hari abagore babiri, umwe yambaye amadarubindi, ku ruhande hari undi muntu utagaragara neza wambaye hejuru ishati isa ubururu, ameza manini ariho mudasobwa.

Abantu benshi bicaye, inyuma haba umukobwa wambaye umupira w'umweru uri kwandika, abandi baricaye barakurikiye, imbere hari umuntu uhagaze, icyapa kinini cyanditseho amagambo, amatara ari kwaka.

Umugore uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, amadarubindi, ufite indangurumajwi mu ntoki ze, imbere ye hari abantu bicaye biganjemo urubyiruko bambaye bose imipira isa ubururu, intebe zisa umukara, ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye bari mu nama harimo umuzungu umwe, umugore wambaye amadarubindi, uducupa tw'amazi duteretse ku meza, ibirahuri ndetse n'impapuro.

Abantu bahagaze bari gukoma amashyi, hari umugore wambaye ijire isa umukara ishati y'amaboko maremare isa ubururu n'amadarubindi, inyuma hari abandi bantu b'abasore na bo bambaye imipira isa ubururu, ameza ariho telefone, akantu gashyirwamo amadarubindi n'impapuro.

Umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru, amadarubindi, isaha, abandi bantu bicaye, ameza ari imbere yabo ateretseho mudasobwa uducupa twa amazi.

Abantu benshi bahagaze ku murongo, imbere hari abagore babiri bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umutuku, umwe afite telefone, ameza ariho imashini yerekana amafoto, inyuma ku gikuta hariho ibyapa.

Abagore bicaye harimo uwambaye agatambaro mu mutwe afite terefoni mu ntoki, iruhande rwe hari undi muntu ufite terefone, ku ruhande rundi hari umuntu ufite ishakoshi.

Umukobwa ufite indangururamajwi, telefone mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko, inyuma ye hicaye abantu, abagore, n'undi muntu uri inyuma utagaragara.

Abantu bicaye bari mu nama imbere hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara hateretseho uducupa twinshi tw'amazi, mudasobwa, impapuro na terefone inyuma hari undi muntu uhagaze n'abandi bicaye.

Abantu bane bicaye, abasore batatu n'umukobwa umwe, ufite ikayi mu ntoki n'indangururamajwi, inyuma hari icyapa kinini ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu kwerekana amashusho, uducupa tw'amazi, intebe itambitse iticayeho umuntu.

Abadamu bicaye abenshi muri bo bambaye ibitenge bifite amabara atandukanye, imbere hari umukobwa uhagaze ufite igitabo mu ntoki ndetse n'indangururamajwi ari kuvuga, imbere hari abandi bantu bicaye harimo n'umugore ushinzwe umutekano, ameza ariho uducupa tw'amazi, inyuma ku gikuta hari icyapa kiriho.

Abantu bicaye imbere hari umugabo uhagaze, inyuma ye hari icyapa ku gikuta bamuritseho imashini yerekana amashusho, ku ruhande hari televiziyo ihari, ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse na ji, hariho telefone n'impapuro.

Abantu benshi bicaye imbere ahagaragara ni umukobwa ufite ikaramu mu ntoki, iruhande rwe hicaye abagabo babiri, ameza ariho amacupa n'ibirahure byo kunyweramo, impapuro ndetse n'igikapu inyuma hicaye abandi bantu.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere hari abagabo babiri, umwe muri bo yambaye amadarubindi, inyuma hari abandi bantu b'abagabo na bo bahicaye ndetse n'abandi bantu benshi, ku meza ya buri muntu hateretseho agacupa k'amazi, hari ahateretse telefone ndetse n'ibitabo.

Abantu bicaye umuzungu w'umugabo iruhande rwe hicaye abagore babiri, abandi bagabo bicaye barebana nabo ameza ariho uducupa tw'amazi n'indangururamajwi, telefone n'ibindi.

Abagabo babiri umwe muri bo yambaye amadarubindi; kuruhande hicaye umukobwa wambaye umupira usa umukara; inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo; ameza ariho amadarubindi, n'uducupa tw'amazi, n'ishakoshi y'abagore.

Abantu benshi bicaye ku murongo w'imbere, umugabo uhari wambaye ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru, afite ikaye mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo uri kwandika, ku meza ari imbere ya buri muntu hariho uducupa tw'amazi n'ibitabo.

Abagabo bicaye bari mu nama, hari abafite amakaramu bari kwandika n'abafite igitabo mu ntoki, telefone, hirya hari ameza ariho ibintu bitandukanye.

Abagore batatu bicaye, umwe yambaye amadarubindi, ameza ariho uducupa twinshi tw'amazi, ishakoshi y'abadamu, agaseke gapfundikiye, igitabo, telefone n'ibindi.

Abantu bicaye bari mu nama, ku murongo w'immbere hari umugabo wambaye amadarubindi, inyuma hari abandi bantu bicaye, hari n'abahagaze, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, telefone n'impapuro.

Umugore wicaye wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere afite impapuro, inyuma hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo.

Abantu benshi, hari abahagaze b'urubyiruko, imbere hari abicaye, abasore n'umugabo, ku ruhande hari abakobwa bicaye, imbere hasi hari ivase irimo ururabyo, inyuma y'abantu bahagaze hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu bicaye bari mu nama ku murongo w'imbere, hari abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho "ngo Kigali yacu" ameza ariho mudasobwa, indangururamajwi ndetse n'ibitabo.

Urubyiruko rwicaye rwiganjemo abasore n'inkumi bane bambaye amajire asa icyatsi abandi bambaye asa ubururu hari umusore wicaye imbere ufite terefone uri iruhande rwe afite uduti bifashisha bavuza ingoma.

Abantu bicaye bari mu nama, ubanza ni umusore wambaye rinete, iruhande rwe hari abandi bagabo, hirya hari abagore babiri, ameza ateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi, ibikombe, telefone.

Abantu 3 bicaye uri umusore ubanza nsa nk nkuwipfumbase ihande rwe hari umugore wambaye amadarubindi n'ndi mugabo ameza ariho uducupa 3 tw'amazi, mudasobwa, ikaramu, ibitabo na terefone.

Abantu bicaye bari mu nama imbere hari abagabo batatu, inyuma hari umugore umwe n'undi muntu utagaragara neza, ameza ariho indangururamajwi, terefone n'ibitabo.

Urubuga rw'ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda, haragaragaraho abanyeshuri bambaye imipira isa umutuku n'amapantaro y'umukara, iruhande rwabo n'inyuma hari abagabo bahari.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa, ufite mudasobwa imbere ye, hirya umuntu wambaye ingofero isa icyatsi uri gukoresha telefone, iruhande rwe hari impapuro, umukobwa wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi uri gukoresha telefone, hirya hari abandi bantu.

Imodoka ebyiri ziparitse, hirya hari abantu benshi bahagaze iruhande rw'umunara, ibyatsi, ibiti, ipoto.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro ishimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, ni mu kwezi ko gushimira abasora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abamotari babiri batwaye abagenzi, icyapa kinini cyanditseho ikigo cy'umuyobo mugari w'itumanaho mu Rwanda. Mu ubusitani burimo indabo, umunara muremure uriho ibyuma, urusinga rw'amashanyarazi...

Iyandiko y'ikigo cyimisoro n'amahoro igaragaza uko ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako biba biteye ihoze nibice bitanu ijana hari iby'agaciro ku isoko ku nyubako nk' ikibanza byagenewe gutorwamo ndetse n ibindi bipimo bitandukanye

Abantu b'abagabo bicaye harimo abambaye imipira isa umukara, ameza ariho mudasobwa nyinshi ndetse na telefone, hariho kandi ikirahure kirimo icyo kunywa.

Abantu bahagaze, hari abasore babiri bari ku ruhande, bari kuganira, abandi bantu, hari uri kureba muri terefone, hari ufite kamera, hirya hari inzu n'ibiti, umunara muremure.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, hariho nimero zabo za telefoni n'imbuga nkoranyambaga bakoresha, iragaragaza ko hagomba kwishyurwa imisoro mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.

Umunara muremure, hariho ibindi byuma, hasi hari imashini zitunganya amashanyarazi, hirya hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye.

Inyandiko hashushanyijeho inzu n'ibiti, igaragaza ko umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe Ukuboza buri mwaka.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko umunsi runaka tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ariwe tariki ntarengwa yo kumenyekanisha imisoro.

Abantu babiri b'abagore umwe ni umukiriya undi ni umucuruzi afite agakoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gutanga inyemezabwishyu.

Abantu bicaye barimo abazungu n'umwirabura ufite terefone mu ntoki, wambaye isaha ku gutwi, imbere ye hari umuntu uri gukoresha mudasobwa, hirya hari abandi bantu bicaye, ibiti...

Urubuga rw'irembo bafite gahunda ya byikorere, aho abakiriya bashobora kubona ibyangombwa, kwishyura mituweri, amazi n'ibindi bitandukanye, bakoresheje terefone zabo.

Umusore uhagaze wambaye ingofero mu mutwe, inyuma hari icyapa cyometse ku gikuta, ku ruhande hari imodoka iparitse, inyuma hirya hari abantu babiri bahagaze.

Umuryango ufunguye usize irangi risa umweru, hatangirwa serivisi z'Irembo, mo imbere hari umugabo wicayemo wambaye ingofero mu mutwe, ameza ateretseho imashini.

Inyubako ndende zikorerwamo imirimo itandukanye, abantu bari kugenda, ivase irimo ururabyo, ameza ateretseho ibintu bitandukanye biri mu imurikagurishwa.

Abantu batatu bahagaze b'abagabo, hari uwambaye ingofero undi yambaye agapfukamunwa, hari igikapu giteretse hasi gisa umukara, inyuma hari umunara muremure, n'undi uri hirya inyubako, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi n'ibiti.

Inyandiko igaragaraho serivise zitangwa n'Irembo muri gahunda ya byikorere aho bafasha abakiriya kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, kubona ibyangombwa, kwishyura mituweri n'ibindi bintu bitandukanye.

Abasore batatu bambaye udupfukamunwa babiri muribo bafite terefone mu nkoki hari ufite ikaramu ndetse n'ibikoresho bifashisha babikamo impapuro inyuma hari amazu.

Umuryango usize irangi ry'umuhondo, handitseho Irembo hatangirwa serivisi zirebana no gushaka ibyangombwa, kwifotoza, kwishyura mituweli n'ibindi bintu bitandukanye, hanze hirya hari abantu bari kugenda, abana, icyapa n'amatara yo ku muhanda.

Abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki n'umweru, hari n'abambaye imipira y'imbeho ikozwe mu budodo, imbere yaho hari ameza ateretseho mudasobwa.

Abantu barindwi b'abagabo harimo abambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi, abandi bambaye asa oranje, umunara uriho ibyuma, hirya hari ibiti bihakikije.

Imiryango ikorerwamo imirimo itandukanye, hari ufunguye utangirwamo serivise zirebana no kubona ibyangombwa, gufotoza impapuro, amafoto magufi, ndetse no kwandikisha ku myenda ibintu bitandukanye.

Icyapa cyamamazwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kugaragaza impano zikubiyemo gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano ugatsindira miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda.

Umunara muremure, ufite ibyuma bisize irangi risa umutuku, n'umweru, hasi hari imashini zitunganya amashanyarazi, ipoto iriho urusinga rw'amashanyarazi, ibyatsi, amashyamba.

Akazu gato kubakishijwe amatafari ahiye, gafite umuryango usize irangi ry'ubururu, ahantu hakorutirijwe ibyuma, imbere harimo imashini zitunganya amashanyarazi, umunara muremure ufite ibyuma bisize irangi risa icyatsi, hirya hari amashyamba.

Umugabo wambaye agapira gasa umukara kandiditseho irembo, yambaye amadarubindi ari gukoresha mudasobwa muri serivisi z'irembo zirebana no gushaka ibyangombwa, kwishyura mituweri n'ibindi.

Umuryango ufunze hariho ingufuri, icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa zirimo kohereza amafaranga, ku ruhande hari umukobwa wicaye wambaye ikanzu isa umutuku.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko habura iminsi itatu kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa wa bibiri na makumyabiri na kane, ni ukuvuga ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri.

Amaduka amwe imiryango irafunguye, hamwe hatangirwa serivisi z'Irembo zirebana no gushaka ibyangombwa, kwishyura amazi, mituweli, ndetse no kugura umuriro, hirya hacururizwa ibikoresho bitandukanye harimo imipira y'abana yo gukina n'ibikapu.

Etajeri ipanze mo inkweto za supurese. Bigaragara ko ari aho bazigurishiriza.

Umumotari uhetse igikapu mu mugongo, umugore uri kugenda, umusore wambaye ingofero afite igikapu, umumotari uri iruhande rwe, imitaka aho bashyiramo lisansi n'imodoka, abantu bahagaze.

Imodoka ziparitse, abagabo babiri bari gusunika igare, umusore uri gutambuka, umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, hicayemo umukobwa, ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, inyubako ndende ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Umunara hasi hari ibyuma bihakikije, imashini zitunganya amashanyarazi, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hirya hari izindi nzu n'ibiti.

Inzu isize irangi rijya gusa umweru, ku gikuta hejuru kuri parafo hasize ubururu n'umweru, hari insinga z'amashanyarazi zifashe mu gikuta no hejuru hari izindi zihari.

Igipangu harimo inzu zifite ibisenge byubatswe mu buryo bugezweho, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi n'utundi dukoresho, ibiti.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ubusitani buri ku muhanda buteyemo indabo, ibiti; hakurya hari amashyamba n'amazu yo kubamo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gisize irangi rijya gusa umweru, urugi rufite ibara risa umukara, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Amapoto abiri, ariho insinga z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho, inyuma hari inzu ihari n'icyapa kinini, cyanditseho amagambo.

Umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi, ibiti, ubusitani buteyemo indabyo, umuhanda, amazu afite ibisenge bigezweho byubatswe mu mategura.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, hakurya hari inzu nyinshi zubatswe mu buryo butandukanye, abantu bari kugenda b'abasore, ku ruhande hari undi muntu wicaye, umugore uri kugenda, imodoka y'ivatiri iparitse, akazu kari mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umunara muremure, uriho ibyuma, ndetse n'ibindi bikoresho, hacamo insinga nyinshi, z'amashanyarazi, hakurya, hari amashyamba ndetse n'amazu.

Umugabo wambaye isarubeti ijire isa icyatsi, ingofero ndetse na bote, ufite umweyo uri gukubura mu muhanda, iruhande rwe hari umugore uri gutambuka, imbere hari abandi bantu bari kugenda, abamotari baparitse, imodoka, amatara yo ku muhanda, amapoto ariho insinga z'mashanyarazi n'amazu.

Amazu yo guturaramo n'akorerwamo imirimo y'ubucuruzi, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, imodoka ziparitse, ibiti, ibyapa byo ku muhanda.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye hejuru hari ibyuma biriho. Ku nkingi hariho amatara, ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, hafasheho n'amatara yo ku muhanda.

Inyubako ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi hariho ibyapa, hejuru hari umuntu wicaye, hari n'undi uhagaze, umunara muremure, ipoto iriho amatara yo ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi.

Igipangu gisize irangi rirya gusa umweru, iruhande rwacyo hari utwuma twinshi natwo dusize irangi, ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda, ibiti n'amazu ari hakurya.

Umunara muremure uriho ibikoresho byinshi by'ibyuma unyuramo insinga z'amashanyarazi ibiti ndetse n'ibicu.

Ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda, ibyuma, inkingi yubakishijwe amatafari ahiye, iriho amatara.

Ipoto ebyiri zirimo insinga z'amashanyarazi, icyapa kiri ku muhanda, umunara muremure igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kiriho indabo, hanze inyuma hari ibyatsi biteyemo indabo.

Amapoto abiri ariho insinga nyinshi z'amashanyarazi, inyubako ndende hejuru hariho ibikoresho byifashishwa mu gushyushya amazi, hanze iruhande rw'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hari indabo hakurya hari ibiti.

Bumwe mu buryo busigaye bworoshye cyane mu kwikorera imizigo, hakoreshejwe amapikipiki, afite akanyabiziga inyuma gashyirwamo imizigo. Ni bwo abantu benshi basigaye bakoresha, aho mu kwimura ibintu cg se gupakira ibintu bisigaye bikorerwa kuri ayo mapikipiki.

Ifoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, n'akandi kabogesi gakozwe muri pulasitike, igipangu cyubakishijwe amatafari, ibyatsi, urugo ruriho amabati.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, igikoresho gituma amashusho ya televiziyo agaragara, amazu, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, imodoka iparitse, indabo, ibiti.

Amapoto abiri ariho insinga z'amashanyarazi, inyubako ndende, izindi zikorerwamo imirimo itandukanye y'ubucuruzi.

Inyubako itangirwamo serivisi zo kwa muganga, ku bikuta hubakishijwe amatafari ahiye, hagiye hometseho ibyapa, umuryango ufunguye, intebe enye ziticayeho abantu.

Intebe enye zifatanye ziri hanze, iruhande rwazo hari umugabo uhagaze ufite impapuro mu ntoki, hirya hari undi muntu wicaye, ibyatsi, inyubako ndende, ku ruhande hari imodoka ziparitse.

Icyapa kinini cyanditseho ivuriro rya Kacyiru, ibyatsi hateyemo indabo n'imikindo, icyuma kiriho insinga z'amashanyarazi, inzu ziri hirya.

Umugabo uri kugenda wambaye ishati, inyuma ye hari abantu babiri bicaye, ku ruhande hirya hari undi muntu uhari, indabo ziteye mu byatsi.

Ubwiherero bukoreshwa n'abamugaye ufite umuryango usize irangi risa nk'ivu, urafunze hari indobo iteretse hasi isa umutuku ku ruhande hari aho bakarabira intoki.

Umusore uri gutambuka, hirya hari umukobwa wicaye ku ntebe, umuryango ufunguye, harimo umuntu wicaye ku gikuta, hari igipapuro cyometseho.

Umwana w'umukobwa uhagaze, imiryango ifunguye, imbere hari igikoresho cyifashishwa mu gusukura intoki, abantu bahagaze, umuntu uri hirya wambaye hejuru umwenda usa ubururu n'agapfukamunwa.

Imodoka yo kwa muganga, itwara abarwayi iparitse, ku ruhande rwo hepfo, hari abantu bahari, inzu, ikigega cy'amazi, ibigori biri hakurya n'amazu yo guturamo, umunara muremure n'ibiti.

Ibitaro by'i Kabgayi hari umuntu utwaye igare uri kwinjiramo, ku ruhande rwo hepfo hari umusore uhagaze, inzu zihari hari iyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hamanitse ikigega cy'amazi, amatara akoreshwa mu gucanwa nijoro, hakurya hari amashyamba.

Inyubako eshatu zubatswe mu buryo butandukanye imwe muri zo umuryango urafunguye iruhande rwabo hari intebe eshatu ku gikuta hari igikoresho bifashisha kuzimya inkongi z'umuriro ubusitani buteyemo ibiti harimo icyapa.

Abantu bane bicaye, hari abagabo babiri n'umugore umwe bicaye ku ntebe imwe irambuye, imbere yabo hari umukobwa wicaye uri gukoresha telefone, iruhande rwe hari igikapu, umuryango ufunze wometseho nimero gatatu n'urundi rupapuro.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, umuryango usize irangi rya shokora ufunguye, ku gikuta hari akantu kari mu ibara ry'umweru kariho ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, umukindo uri mu byatsi n'indabo.

Abantu batatu bahagaze, barimo umukobwa umwe, umusore umwe n'undi muntu uhagaze kuruhande, bambaye amashate asa umweru, indabo ziri ku ruhande, amazu.

Abanyamategeko bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru, bambaye n'udupfukamunwa, ameza ariho uducupa tw'amazi n'icupa ririmo umuti usukura mu ntoki.

Abantu batatu bicaye, umusaza wambaye amadarubindi ufite ikaramu mu ntoki uri kwandika, iruhande rwe hari umugore ndetse n'undi mugabo, umugore uhagaze iruhande rwe hari abantu babiri bicaye.

Abanyamategeko bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru, buri wese yambaye agapfukamunwa, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, uducupa tw'amazi, indangururamajwi, icupa ririmo umuti usukura mu ntoki.

Abantu benshi bitabiriye inkiko za gacaca, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, inyuma hari icyuma kinini, amazu n'amashyamba.

Umugabo wambaye ishati ijya gusa ubururu n'amadarubindi wafashwe n'abapolisi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru, bamanitse ukuboko bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abacamanza babiri bicaye bambaye imyenda iri mu ibara rya oranje n'umweru, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki, ameza ariho uducupa tw'amazi, ingofero bambara mu mutwe na terefoni, inyuma hari tereviziyo ifashe ku gikuta.

Umusaza wicaye, ambaye ishati isa umweru n'isaha ku kuboko, karavati irimo utuntu tw'utudomo ndetse n'ingofero, hariho akantu kazengurutseho, inyuma hari icyapa gihari kiriho ikirangantego k'ishyaka.

Ababuranira abantu n'abacamanza bicaye imbere bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru n'udupfukamunwa ameza ateretseho mudasobwa uducupa tw'amazi n'agacupa karimo umuti usukura mu ntoki umugororwa wambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza.

Abagororwa bicaye hakubiyemo abagabo ndetse n'abagore, hirya ku rundi ruhande hari abantu bicaye baje kumva imanza, inyuma hari insina z'ibitoki n'ibiti.

Abantu bicaye benshi, mbere hari umugabo wicaye wenyine, hari ameza atetseho agacupa k'amazi, undi mugabo uhagaze wambaye ikote n'amadarubindi, imbere hari indangururamajwi ifasha mu kohereza amajwi.

Abantu bicaye, hari umugore n'umugabo, imbere hari ameza ariho terefone, ibitabo n'ikiganza cy'umuntu wambaye ibikomo ku kaboko, imbere hari abagabo bicaye n'umugororwa umwe uhagaze.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye ifite inkingi zize irangi risa umukara n'umweru ni gereza' igihumbi kimwe maganacyenda mirongo itatu abagororwa bahagaze bambaye impuzankano isa orange hari n' nabashinzwe umutekano.

Umugabo w'umucamanza yambaye hejuru imyenda iri mu ibara rya oranje, karavati ndetse n'ishati, ingofero isa umukara irimo uturongo tw'umuhondo amadarubindi.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuvuga, iruhande rw'iiwe hicaye umuntu, ameza ariho mudasobwa n'imashini yifashishwa mu kwerekana amashusho, ameza ariho agacupa k'amazi, inyuma hari abandi bantu bicaye.

Ifoto y'umugore w'inzobe yambaye amaherena y'ibizeru, ikote risa umutuku ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru.

Icupa riri mu ibara ry'umutuku hafasheho umugozi hejuru ku munwa waryo, no ku ruhande hari irindi, rikoreshwa mu kuzimya hari inkongi z'umuriro, hasi hari agakoresho gakozwe muri parasitiki gashyirwamo imyanda, ku makaro kandi hari ibuye rihari.

Ushinzwe umutekano uhagaze abantu bari kwambuka umugore uhagaze wambaye ikanzu isa umutuku urindiye kwambuka abamotari, abanyonzi, abandi bantu bari hirya bari kugenda, ibyapa, inyubako ndende ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, n'ibindi bintu bitandukanye.

Icupa riri mu ibara ry'umutuku, hariho umugozi usa umukara, rifashe ku gikuta ryifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, agakoresho kari hasi bashyiramo imyanda.

Imodoka ebyiri ziparitse, imwe n'ikamyo, indi ikoreshwa mu kuvidura, hari umugabo uhagaze wambaye imyenda iri mw'ibara ry'umukara n'icyatsi, yambaye n'ingofero mu mutwe, iruhande hari undi musore usutamye, imbere hirya hari abandi bantu, icyapa, ibyatsi, amatara yo ku muhanda.

Umusore wambaye ishati y'ubururu, ari kugenda hamwe n'umugore wambaye agatambaro gasa umukara mu mutwe, imodoka itwara abashinzwe umutekano, ibiti n'amazu.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda, hari akamashini afite mu ntoki ndetse n'icyangombwa kigaragaza uruhushya rwo gutwara imodoka, hirya hari imodoka ziri kugenda ndetse n'abamotari.

Icyuma cyometseho agapapuro kirasa umutuku harimo insinga nyinshi, akabati, kari iruhande rwacyo gateretsemo amakarito hasi ndetse no hejuru.

Inyubako ebyiri ndende zikorerwamo imirimo itandukanye imwe hakoreramo ubucuruzi bw'imiti, abashinzwe umutekano babiri bahagaze iruhande rwa moto, imodoka iparitse, umukobwa uri kugenda wambaye umupira usa umutuku n'ipantaro y'umukara.

Icupa risa umutuku hafasheho umugozi usa umukara ndetse n'ikindi kintu gikoresha baricana, hometseho impapuro zanditseho amagambo, ryifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi z'umuriro.

Icupa risa umutuku rifashe ku gikuta hariho umugozi w'umukara ndetse n'ibindi bikoresho bifasheho, byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro hasi ku makaro, hari agakoresho gakozwe muri pulasitiki kahateretse gashyirwamo imyanda.

Abantu benshi bicaye bambaye amakarita mu ijosi abaranga, hirya hari n'abandi bahagaze bafite kamera bari gufotora, itara rikoreshwa mu gufotora riri kwaka.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze iruhande rwe hari abantu benshi, harimo umugore uteruye umwana abasore, hari abicaye ndetse hari n'abahagaze, hirya hari imodoka iparitse, iruhande rwayo hari amazu akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Umugabo wicaye, wambaye ikoti, ishati y'umweru ndetse na karuvate, ameza ariho mudasobwa, indangururamajwi ebyiri na terefone.

Umugore wicaye wambaye amadarubindi, ikote risa umuhondo, hariho akantu mo imbere yambaye umupira usa umukara, ku ruhande hari ibendera ry'igihugu cyu'u Rwanda n'irindi ryo mu kindi gihugu.

Abantu bahagaze, batonze umurongo, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, imbere hari umugabo wipfumbase wambaye ishati isa ubururu nawe uhagaze hirya hari ibiti n'amazu.

Umugabo wicaye wipfumbase, yambaye ikote na karavate n'ishati ijya gusa move, ameza ariho indangururamajwi ebyiri n'agacupa k'amazi.

Abantu bane bahagaze b'abagore, uruhande rumwe ruriho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, ku rundi ruhande hariho iryo mu kindi gihugu, hejuru hari ifoto imanitse iriho Umukuru w'Igihugu Paul Kagame.

Umugabo uri gutambuka, wambaye umupira urimo imirongo, afite terefone mu ntoki, imbere hari umugabo uri kumanuka, iruhande rwe hari abantu bari kumwe n'umwana, hari icyapa kinini cyanditseho twitabire amatora, insina z'ibitoki, hepfo hari inzu.

Umugabo uhagaze wambaye umushanana, ishati y'umukara n'urunigi mu ijosi, ari kuvugira mu ndangururamajwi. Inyuma hicaye umugabo n'umukobwa ufite impapuro, hari intebe zisa umweru ziticayeho abantu, icyapa kinini cyanditseho umukandida uri kwiyamamaza, inyuma hirya hari inzu ihari.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bafite amadarapo mu ntoki bambaye n'ingofero umutwe bari kwamamaza umukandida bahisemo mu matora.

Abantu bari iruhande rw'umuryango ahari kubera amatora, hari kugenda hinjira buri umwe agatora. Higanjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko.

Abagabo babiri bambaye amakote ndetse n'abagore bambaye imikenyero, bamanitse ukuboko bose bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda bari kurahira inyuma hari abandi nabo bahagaze.

Ikiganza cy'umuntu wambaye agakomo k'amasaro ku kuboko afite ikarita iriho abakandida batatu bari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'Igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na karindwi.

Umumotari utwaye umugenzi uhetse igikapu umugabo uhagaze ku ruhande imodoka yigikamyo itwaye imizigo izindi ziparitse kuruhande amazu ibiti.

Umusore uri kugenda mu muhanda, igare, imodoka y'ikamyo itwaye amabati, hejuru hari umusore wicayeho, undi muntu uri kugenda mu muhanda, umumotari utwaye umugenzi, ibiti.

Imodoka y'ivatiri iri kugenda mu muhanda, abagabo babiri buri wese utwaye igare ririho umufuka w'ibirayi, munsi hari ibiti, hari abantu, hakurya hariyo amazu.

Umusore uri ku igare wambaye ijere isa icyatsi, imodoka yo mu bwoko bwa ritiko itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, hirya hakurya y'umuhanda hari ibyatsi, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota itwaye ibintu, abamotari babiri, inyubako iriho ibyapa ikorerwamo imirimo itandukanye, harimo n'iy'ubucuruzi, imodoka iri hirya iri kuza itwara abagenzi mu rwego rwa rusange.

Moto y'amapine abiri, umumotari uparitse, hari izindi modoka zihari, inyubako ndende, abantu bari kugenda, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, gakoreramo ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda.

Umugore usutamye uhetse ibintu mu mugongo, ingorofani ikozwe mu giti, umugabo utwaye moto, abantu bari kugenda umugore uri gucuruza ibiribwa.

Moto y'amapine atatu, harimo umushoferi w'umugabo uyitwaye, imodoka y'ikamyo ipakiye motora, hirya iruhande rw'umuhanda hari ibiti, munsi hari abantu bahari.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda, umusore uri gutambuka, ku ruhande rwo hepfo hari umumotari utwaye moto, ibiti, hakurya hari inzu nyinshi zitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi isa umweru, abamotari batatu batwaye abagenzi, abasore babiri bari kugenda hirya ku ruhande, ibiti, hakurya hari amazu, insinga z'amashanyarazi.

Abanyonzi batwara amagare, buri wese ari iruhande rw'igare rye, hari umusore uri gutambuka, hari undi uhagaze, hepfo hari moto iparitse, amatara yo ku muhanda ari kwaka, hari kandi ibiti.

Umumotari utwaye moto, icyapa cyo kumuhanda kiyobora ibinyabiziga, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ibiti, abantu bari hirya bahagaze, inyubako ndende, amazu yo guturamo.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, ipakiye amatiyo ndetse n'ibindi byuma, hirya hari umumotari utwaye ibintu inyuma, abantu bari kugenda, imodoka y'ikamyo iparitse, amazu ari hakurya n'ibiti.

Moto ziparitse, abamotari, abantu bari kugenda mu muhanda wiganjemo abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa, imodoka, imitaka irimo ibara ry'umuhondo, amazu, amatara yo ku muhanda n'ibiti.

Moto y'amapine abiri, ikoreshwa mu gutwara imizigo, abasore babiri bari munsi y'umuhanda bari kugenda, amatara yo ku muhanda, imodoka iparitse, undi muntu uri hirya uri kugenda, ibiti.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ipakiye ibintu, imbere hari moto iri kugenda, abandi bamotari bari hirya baparitse, umugore uri gutambuka, inyubako ikorerwamo imirimo itandukanye, ipoto ziriho insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ikamyo iri mu ibara ry'umutuku, iri kugenda mu muhanda aho abagenzi bambukira, imodoka itwara abashinzwe umutekano, umunyonzi utwaye umuntu, umumotari, izindi modoka ziri hirya, ibiti, n'amazu.

Imodoka y'ikamyo, imbere hari ivatiri isa umweru, hari izindi modoka harimo n'ikamyo isa ubururu, abamotari batwaye abagenzi, amatara yo kumuhanda, ibiti, abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka y'ikamyo ifunze inyuma, umunyonzi utwaye igare uri kurisunika hariho umufuka, abamotari, iyindi modoka y'ikamyo iri hirya, abantu bari kugenda, ibiti, inyubako.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ikoreshwa mu kwigisha abantu gutwara ibinyabiziga, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inyuma hari imodoka yindi iri kuza, na moto ebyiri, ibiti ibyapa n'amazu yo guturamo.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda, umugabo wambaye isarubeti wikoreye umufuka, amatara yo ku muhanda umukobwa uri ku ruhande rwo hepfo uri kugenda, ibiti byegeranye n'umuhanda.

Umumotari uri kugendera ku ruhande mu muhanda, ibyapa, ibiti, inzu iri hakurya y'umuhanda, hari intebe ziteretse hanze ndetse n'indobo isa ubururu.

Umunyonzi utwaye igare, wambaye umupira usa umuhondo, atwaye umugenzi ufite agafuka, kuruhande hari imodoka yikamyo nini iri kugenda mu muhanda, ibiti, hakurya hari amazu.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo isa umweru, hari umugabo wambaye agapira wicayemo, hirya hari umusore uri gutambuka, ibiti, hari indi modoka y'ikamyo iparitse ku ruhande.

Igikoresho gikozwe mu byuma gifite n'amapine gikozwe nk'imodoka, abana bari hirya bari kugenda b'abahungu ndetse n'umukobwa.

Imodoka ebyiri ziparitse zitwara abagenzi mu buryo butari rusange, iruhande rwazo hari abasore babiri bahagaze, umwe afite telefone mu ntoki, imbere hari umutaka usa icyatsi, amaduka acuruza telefone abantu bahagaze.

Umusore wambaye umupira usa umutuku n'ingofero, utwaye igare ririho imifuka y'imiceri, amasukari ndetse n'undi mufuka uri hejuru urimo ibindi bintu, hirya hari undi muntu uhagaze, imodoka ziparitse, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Abasore babiri bari gutambuka mu muhanda, abandi bantu benshi, hari abahagaze, umukobwa uri kugenda, moto itwara imizigo, imodoka, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inyubako ndende ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Imodoka y'ikamyo ikoreshwa mu gutwara imicanga n'amabuye, ku ruhande hari indi itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, inyuma hari indi modoka isa umukara hirya hari abantu bari gutambuka n'izindi modoka ziri kugenda,, amatara yo ku muhanda, ibiti.

Umumotari utwaye umugenzi w'umugore, ibiti, amatara yo mumuhanda, inyubako ndende ifite ibirahuri byijimye, umuhanda wahariwe abanyamaguru bambukiramo.

Imodoka y'ivatiri ya Yego basi, harimo umushoferi w'umusore uyitwaye, wambaye umupira usa umutuku, iruhande rwe hari undi muntu wicaye, ibiti, imodoka ziri hirya ziparitse.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi itwara abagenzi mu rwego rwa rusange. Iruhande rwayo hari umugore uri kugenda uhetse umwana. Imbere ye hari umugabo uhari. Ku ruhande hari umusore ufite ibintu acuruza, ndetse n'umusaza wambaye ingofero uhetse igikapu mu mugongo. Hirya hari inyubako ndende zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Imodoka itwara abagenzi murwego rwa rusange. Abantu babiri b'abagabo bari kugenda. Hakurya y'umuhanda hari abasore, bahagaze, ibiti, amazu ari hakurya , insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ikamyo isa umweru, ikoreshwa mu gutwara imizigo hicayemo umushoferi wambaye umupira, ku ruhande rwo hirya hari umumotari utwaye umugenzi, urusinga rw'amashanyarazi, ibiti, amazu.

Imodoka nini itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, iruhande rwayo hahagaze umukobwa ufashe mu mayunguyungu, imbere ye ubundi izindi modoka ziri imbere zitwara abagenzi, umunara muremure, amatara yo ku muhanda, icyapa...

Imodoka nini yo mu bwoko bwa kwasiteri, itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, umusore wambaye ikoti ry'umukara uri kugenda, amatara yo mu muhanda ari kwaka, umunara muremure, insinga z'amashanyarazi, amashyamba, hirya hari izindi modoka nyinshi.

Imodoka nini y'ikamyo isa umweru, umukobwa uri kuhande uri kugenda, hirya hari umumotari utwaye umugenzi w'umusore, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti.

Moto y'amapine abiri ifite igisanduku gisize irange risa ubururu, imodoka y'ikamyo itwara imicanga n'amabuye, inyubako ikiri kubakwa, amatara yo ku muhanda, izindi nzu.

Umumotari uparitse iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hari imodoka iparitse, moto iri kugenda ndetse n'imodoka.

Umu motari uhetse umugenzi w'umukobwa ari kugenda mu muhanda, igiti, ubusitani buteyemo indabyo, amatara yo ku muhanda, inzu iri hirya itagaragara neza.

Inyubako ndende zikorerwamo imirimo itandukanye, abantu bari kugenda hari abasore ndetse n'umukobwa umwe uri kumanuka, ibiti, amatara yo kumuhanda.

Abantu benshi bicaye mu kazu ko kuruhukiramo, abagore babiri bari kugenda, umwe muri bo yambaye ishati isa umweru, inyuma yaho hari umugabo uri gutambuka, ku ruhande rwo hepfo hari inyubako zikorerwamo imirimo itandukanye n'abantu bahagaze, abandi bari kugenda mu busitani bw'indabyo.

Umuhanda abantu bari kugenda umusore utwaye igare hari abantu bahagaze hari n'ahandi hicaye abakobwa ku hande hari akazu gahari kubakishijwe ibiti, ubusitani buteyemo indabo, inyubako ndende ikorerwamo imirimo itandukanye.

Umuhanda urimo imirongo uri mu ibara ry'icyatsi, ukorerwamo siporo, ku ruhande mu byatsi hari abana bahari, ubusitani buteyemo ibiti, amazu ari hirya yo guturamo.

Abana b'abahungu bagera kuri bane bari gukina umupira, hirya hari inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ubusitani buteyemo indabo, ku ruhande hari intebe yo kwicaraho ihari, hepfo hari umuntu uri kuzamuka.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kiriho umubare mirongo itandatu, ibiti, hari icyapa kinini kigaragaza ko muri ako gace hari kamera ikoreshwa mu muhanda.

Umusore uhagaze mu muhanda ufite igikapu ku rutugu inyuma ye hari umugabo uhagaze, icyapa kinini kigaragaza amerekezo y'akarere ka Rusizi ibiti.

Icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, gisobanura ko nta parikingi, kuvuga ko nta binyabiziga byemerewe guparika ahantu icyo cyapa kiri.

Umuhanda urimo imodoka ziri kugenda n'abamotari, ubusitani buteyemo indabyo, ibiti biri ku ruhande n'imikindo, abantu babiri b'abasore bari kugenda n'abandi bahagaze, icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, mo imbere mu ruziga harimo ikimenyetso kigaragaza kuzamuka n'ikigaragaza kumanuka, handitseho imibare ndetse n'urubuga.

Icyapa kinini kirimo ibara rijya gusa icyatsi handitsemo amagambo aranga amerekezo; Akanyaru-Huye umuhanga ndetse na Ruhango-Kinazi, iruhande rwacyo hari amazu yo guturamo n'ibiti.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, haragaragaramo ifoto y'umuntu ufite ikintu kimeze nk'igitiyo.

Abana b'abakobwa n'abahungu, bavuye ku ishuri, icyapa kigaragaza ko hari ishuri rihari gishushanyijeho abantu babiri b'abana, amatara yo ku muhanda, ubusitani buteyemo ibiti.

Inyubako ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi na serivisi z'irembo irafunze ifite ibirahuri byijimye, icyapa gikoreshwa mu muhanda kigaragaza uko abanyamaguru bambuka, ipoto iriho urusinga rw'amashanyarazi, ibiti, inzu.

Icyapa kigaragaza ko hari ivuriro, kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo ikimenyetso cyo guteranya, ku ruhande hari imodoka ziparitse, hirya hari amazu.

Icyapa kinini kiranga amerekezo y'agace runaka, handitseho ka, ga ijana na mirongo ine n'icyenda, sa, ta, hakurya hari amazu ahari n'ibiti.

Icyapa kirimo umubare mirongo itandatu, gikoreshwa mu muhanda, umusore uri gutambuka, imodoka ziri kugenda na moto, amatara yo ku muhanda, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ibiti, amaduka akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Imodoka iparitse, amaduka abiri afunguye, acuruza imyenda y'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, intebe abana bicaraho, ibikapu bimanitse.

Inyubako ndende igeretse gatatu iruhande rwayo hari izindi nzu, umunara muremure ucamo insinga z'amashanyarazi, ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umwana uhagaze witwikiriye umutaka, iruhande rwe hari undi muntu wicaye, moto iparitse n'imodoka zigera kuri esheshatu, amazu ari hakurya ndetse n'ibiti.

Imodoka iri kugenda mu muhanda isa umukara, igipangu kiri ruguru gisize irangi risa icyatsi, harimo amazu, hari izindi modoka ziri kugenda mu muhanda, inyubako ndende n'ibiti.

Inyubako nyinshi, hari izisize irangi risa umweru ku bikuta, ibyatsi, insina z'ibitoki, hakurya hari amazu yo guturamo ndetse n'ibiti.

Abasore babiri bari mu muhanda, umwe ari kugenda, undi asa nk'uhagaze ari kureba ruguru mu gipangu gihari kirimo amazu menshi yubatswe mu buryo butandukanye, ibiti biri ku muhanda.

Insinga z'amashanyarazi, ibiti, inyubako ndende ifite igikoresho hejuru gituma amashusho ya televiziyo agaragara, insinga z'amashanyarazi, ku ruhande rwo hepfo hari iyindi nzu ihari.

Inyubako ndende zigera muri eshatu, zifite amadirishya akozwe mu birahure byijimye, igikuta gisize irangi rijya gusa ivu, ibiti, indabo.

Inyubako ndende ifite imiryango myinshi ikorerwamo ibintu bitandukanye, ivuriroye, iduka ricuruza ibyo kurya hanze haparitse imodoka zigera kuri eshatu n'umumotari.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ikigega cy'amazi kinini, inyubako nyinshi, amashyamba, ibiti, igisenge cyubatswe mu buryo bugezweho

Inyubako icururizwamo ibintu bijyanye n'ikawa, intebe zifite imisego, ameza, ivase ijyamo indabo, ubusitani burimo ibyatsi, ndetse n'ibiti.

Inzu ifite igisenge cyubatswe mu buryo bugezweho, ikigega cy'amazi, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, amazu menshi ari hakurya ndetse n'amashyamba.

Inyubako ndende ifite ibirahure byijimye, hari amadirishya mato agera kuri atandatu afunguye, andi arafunze hari ibiti bihari byegereye iyo nyubako.

Ibiti byinshi, ibyatsi harimo n'indabo, itara ryo ku muhanda, intebe iri hirya hicaye abantu babiri, igikoresho kiri mu byatsi cyifashishwa mu gushyiramo imyanda.

Umuhanda wo mu Giporoso muri koridoro, hari abantu benshi bari kugenda, imbere hari umugabo wambaye isarubeti isa ubururu, umumotari uri ku ruhande uparitse moto, ipoto amatara yo ku muhanda, imodoka ziparitse, inzu zubatse mu buryo butandukanye.

Imodoka nyinshi ziri kugenda mu muhanda, abamotari batwaye abagenzi, abantu bari kugenda n'amaguru, amatara yo ku muhanda, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ibiti, inzu zikorerwamo imirimo itandukanye.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru ku nkingi hariho amatara, hari inzu, ipoto iriho urusinga rw'amashanyarazi, ibiti, amatara yo ku muhanda n'ibyapa.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Ipoto iriho urusinga rw'amashanyarazi. Icyapa kiri ku muhanda. Inyubako ndende ifite ibyumba byinshi. Ku ruhande hari ibiti.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru ho gato hasize irange risa umweru, hafasheho indabo, inyubako ndende ifite ibirahure irafunguye harimo irido isa umweru.

Imodoka ebyiri ziri kugenda, abantu babiri bari ruguru y'umuhanda, inzu ifite igipangu gisize irangi risa umukara, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ibiti, izindi nzu ziri ruguru, imodoka ziparitse.

Umumotari, hirya hari abandi bamotari babiri batwaye abagenzi, imodoka amatara yo mu muhanda, ubusitani buteyemo imikindo, ibiti n'amazu.

Abamotari batwaye abagenzi, hari n'abandi bari kugenda mu muhanda batabafite, imodoka isa umukara, hirya hari indi iri kuhaturuka, amatara yo ku muhanda, amashyamba, inyubako ndende.

Imodoka iri kugenda mu muhanda n'amamoto, icyapa kigaragaza ko nta binyabiziga byemewe kuhaparika. Umusore uri kugenda, hirya ku ruhande hari ahantu abantu bategerereza imodoka bicaye, ubusitani buteyemo indabo ku ruhande hari ibiti.

Imodoka isa umukara iri kugenda mu muhanda, ku ruhande rwo hirya hari abamotari, umuntu uri kugenda n'amaguru, amatara yo ku muhanda, inyubako ndetse n'ibiti.

Amatara yo mu muhanda, ibiti, ibyapa bikoreshwa mu muhanda, itaka rirunze ahantu mu byatsi, hakurya hari amazu y'ubwoko butandukanye.

Imodoka ziri kugenda abamotari mu busitani buteyemo ibiti n'indabyo, ibyapa, inyubako, amatara yo ku muhanda ari kwaka.

Umumotari uhagaze, umugenzi uri kwambuka. Imodoka zindi zihagaze, ibiti, amatara yo mu muhanda, ibyapa n'abanyamaguru bari kugenda, ubusitani buteyemo indabyo, kamera ikoreshwa mu muhanda.

Umuhanda urimo abamotari babiri bari kugenda, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda, icyapa, inzu zo guturamo, umugore uhagaze uri kureba inyuma, ibiti biri kuruhande.

Abamotari babiri batwaye abagenzi, inyuma hari n'abandi, imodoka ziri kugenda mu muhanda, harimo n'itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, amatara yo ku muhanda, ubusitani buteyemo indabo, ibyapa hakurya hari amazu.

Moto y'amapine abiri iri kugenda mu muhanda w'igitaka, ibiti biri ku muhanda, igipangu gisa umukara, mo imbere harimo inzu, hakurya hari ahandi hari andi mazu menshi.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda zigera kuri enye. Abagenzi bari kugenda, abamotari batwaye abantu, amatara yo ku muhanda, ibiti, ubusitani buteyemo indabyo.

Umuhanda urimo imodoka ziri kugenda, abamotari batwaye abagenzi, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inyubako ndende, ibiti, icyapa kigaragaza ko abanyamaguru bagomba kwambuka.

Imodoka eshatu ziri kugenda mu muhanda, abamotari babiri batwaye abagenzi, aho abanyamaguru bambukira, indabo, ibiti, insina z'ibitoki, amatara yo ku muhanda.

Imodoka y'ikamyo umusore uhagaze aho abanyamaguru bambukira izindi modoka ziri mu muhanda ipoto iriho insinga z'amashanyarazi abantu bahagaze bari munsi y'umuhanda ibyatsi ibiti amazu.

Umusore ufite igare, wambaye ijire isa icyatsi, uri kurinyuza aho abagenzi bambukira, undi muntu uri kwambuka, amatara yo ku muhanda, abantu bari hirya bahagaze, hari n'abari kugenda, amazu, ibyatsi n'ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, iri kugenda mu muhanda harimo abantu, imbere hari ikamyo, imodoka ya Toyota, abantu bari kugenda n'amaguru, ku ruhande hari amashyamba.

Umusore ufite igare, abamotari babiri batwaye abagenzi, moto y'amapine abiri yifashishwa mu gutwara imizigo, imodoka iparitse, amatara yo ku muhanda, abantu bari hirya iruhande rw'ibyatsi.

Umuhanda aho abanyamaguru bambukira, abamotari baparitse hari rutwaye igikapu imbere, ku ruhande hari abasore batatu bari gutambuka, hari icyapa kinini, amatara yo ku muhanda, kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda, inyubako ndende, ibiti.